Mu Rwanda tugomba kwimakaza ubumenyi ku bana batoya bakazamuka bagakura bafite icyo bazi mu mutwe nko kubara, tukabigisha byinshi bijyanye n'uburezi no kwiyitaho ndetse n'ubumenyi buhambaye.

Abana batoya bagomba kwigishwa kubana neza bagakinira hamwe bakiyunga bakiyumvamo urukundo binyujijwe mu barezi babo babigisha gufata imfashanyigisho za buri munsi.

Mu mashuri nk'uko tubizi tugenda twiga ibintu bigiye bitandukanye binyuze mu kintu umuntu yahisemo kwiga, hari abahitamo kwiga ubukorikori aribyo bakurikiza bakazaza bagenda bakora ibikoresho bigiye bitandukanye.